Barimo barabyina imbyino gakondo bano babyeyi barikumwe na bamwe mu bashinzwe umutekano ikigaragara cyo abashinzwe umutekano bari babasuye hanyuma mu rwego rwo kuzamura umuco nyarwanda babasha kubyina izo mbyino za taradishoni.

Urugomero rw'amashanyarazi, aho bayakupira bakanayakurira; uyu ni umukozi ubikoramo ushinzwe gukupurira bamwe, bagakupira abandi mu buryo bwo kugira ngo bafashe gutanga urumuri mu duce tumwe na tumwe tugize i rwanda cyangwa se mu gace kegereye aho ngaho urugomero rwa ruri.

Urunguru n'urugomero rw'amashanyarazi, abakozi barukoramo, uru n'urugomero rusapurayinga abantu amashanyarazi mu mudugudu ubwo bari barimo kubaka aha ngaha.

Amapoto yohereza urusinga arimo aragemura umuriro w'amashanyarazi, wenda ano mapoto manini ntabwo ajya agemura umuriro w'amashanyarazi mu bice bitoya ahubwo uba uyajyanye kure, uyavanye kurugomero uyatwaye kure hagemura mungo ntoya cyangwa se mu ngo zisanzwe aba ari amapoto mato, aya ngaya aragemura ngo amenye mu gace runaka kugirango bashobore kugeza amapoto mato ageze ku baturage.

Uyu mukobwa arimo araciririkanya n'uno mumotari ngo abasha kumutwara amugeze aho agiye, hano ni ku iseta y'abamotari, bategera abagenzi kugira ngo abatware babaheze amafaranga.

Abana bato barimo barakina umupira, ikigaragara cyo umwana bafite umupira yasaga n'uwatatswe n'uriya umuri inyuma, bakinaga ku kibuga cy'itaka bigaragara ko umwe yari yambaye n'ibirenge abandi bambaye inkweto.

Umukino warangaga ikipe ya Rwimiyaga na Rukomo wabereye hariya Nyagatare kuri Stade i gologota aho ikipe ya Rukomo yatsinze ibitego bibiri naho ikipe ya Rwimiyaga itsinda igitego kimwe birangira kuba umukino wa nyuma birangira ikipe Rukomo itwaye igikombe cy'umurenge.

Umuhanda w'akabarimbo n'ingeri zitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'amamoto ndetse hari imodoka, hakabamo abagenzi bagendesha ibirenge, harimo akayira kabo kari ku ruhande impanda gusa ntuteguyewe neza, ugabanyijemo inshuro ebyiri, aho amagare ari ku ruhande.